Ubworozi bw'amatungo, ni imwe mu nzira yo kurwanya ubukene ndetse no kwishakamo ibisubizo. Tuzirikane yuko mu gihe tworora tugomba kugirira isuku amatungo yacu, tukayashakira abayitaho mu gihe biri ngombwa ndetse tukayubakira n'ibiraro byayo.

Benshi bakunze kwishima iyo bitegereza ubwoko bw'inyoni butandukanye cyangwa se ibidukikije muri rusange. Inyoni ihagaze ku ishami ry'ururabo igaragaza umunezero ndetse n'ubwiza bw'ibidukikije cyane ku bayireba.